Umukorerabushake w'ikigo gishinzwe gutabara imbabare Kuruwa ruje, aryamye ku gatanda, atanga amaraso kugira ngo atabare imbabare, ziyakeneye kugira ngo anatange urugero ku bandi bantu basanzwe batarari abakorerabushake.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, umwe yambaye umwambaro ubaranga, undi yambaye ikarita imuranga, undi yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru ndetse arerekera umugabo uko bakaraba intoki birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umugabo n'umugore bafite ubumuga bicaye mu magare abafasha kuba bava ahantu hamwe bakajya ahandi, bambaye impuzankano mu ibara ritukura bari mu mahugurwa.

Umuganga w'umugabo wambaye umwambaro w'akazi uri mu ibara ry'umweru, arimo aganira n'abarwayi ndetse banakina bidagadura, bibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Umuganga wumugabo ufite ikaramu n'ibitabo ufite n'ibikoresho yifashisha mu kazi ke ka buri munsi wambaye umwenda w'akazi w'umweru urimo gusura abarwayi bari mubi bitaro.

Itsinda ry'abaganga bavanze abagore n'abagabo bari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru irimo ibara ry'umukara, barimo kubahugura ku mitangire ya serivisi inoze mu by'ubuzima.

Itsinda rigari ry'abaganga bambaye imyambaro y'akazi rigizwe n'abagore ndetse n'abagabo bateraniye hamwe mu buryo bwo kwiga ku buryo banoza akazi kabo neza.

Abaganga babiri b'abasore, bambaye imyambaro y'akazi iriwi ibara ry'umweru, bari mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara.

Itsinda rigari ry'abakorerabushake b'ikigo gishinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze no gutabara imbabare Kuruwa ruje babumbiye hamwe harimo abagabo, bagore ndetse n'urubyiruko.

Umuganga wambaye umwambaro w'akazi ndetse n'agapfukamunwa wicaye ku ntebe y'umukara, ufite mudasobwa imbere ye ndetse akaba ari mu cyumba gicaniye neza gifite amatara ahagije ndetse afite n'ibikoresho byifashishwa muri siyansi.

Abaganga babiri bambaye imyambaro y'akazi ibapfutse umubiri wose. Bari kureba mu byuma byabugenewe basuzumiramo indwara ndetse bagafasha abantu kumererwa neza.

Umuganga w'umugore wambaye umwambaro w'akazi uri mu ibara ry'umweru, afite ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma indwara ndetse n'imiti byifashisha mu kuvura abantu kugira ngo ubuzima bukomeze bube bwiza.

Itsinda ry'abana b'abanyeshuri biga mu kigo k'inshuke ndetse n'umwarimu wabo ndetse n'umukobwa wambaye umupira w'ibara ry'ubururu, n'umwambaro umuranga w'akazi, arimo agaburira abana.

Umuganga w'umugabo wambaye impuzangano y'abaganga uri mu cyumba gicururizwamo imiti arahindukira areba ku kabati arimo gufata umuti ahereza abakiliya.

Umusore wambaye agapira k'umweru, ufite ibyapa mu biganza bye byombi ashishikariza abantu gukoresha agakingirizo neza.

Icyatsi kizwi nk'umuravumba cyifashishwa mu kuvura mu buvuzi gakondo ndetse kivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye z'amoko menshi cyane.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ufite igikombe ndetse ukikijwe n'imiti igitandukanye yifashisha mu kuvura bya gakondo ndetse anakikijwe n'utubati turimo imiti igitandukanye.

Ibiganza bifite urupapuro rurimo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Itsinda ry'abagore bakora umwuga w'ubuvuzi bwa gakondo bikabafasha mu kwiteza imbere ubuzima bwabo bwa buri munsi kuko babikora nk'umwuga ubatunze.

Umuganga wambaye umwambaro w'akazi, uri mu ibara ry'umweru, arimo kwakira abantu baza bamugana basaba serivisi z'ubuzima ndetse n'abategereje guhabwa serivisi.

Umuganga wambaye umwambaro w'akazi, umugore wicaye ku ntebe afite mudasobwa wakira abantu abarwayi baje kwivuza baje ku kigo nderabuzima mu guhabwa serivisi z'ubuzima.